Akazu kandiditseho ikigo cy'itumanaho Airtel, aho ngaha hakaba ari ishami ritanga serivisi zitandukanye zijyanye n'itumanaho ndetse n'ibijyanye n'amatelefoni akaba arabakorera Airtel.

umumotari akaba ahagaze imbere y'inyubako iriho ibyapa by'umuyoboro w'itumanaho bita Airtel, akaba arimo kugenda abyamamaza ndetse na moto ye yanditseho cyangwa se ikozwe muri bwa buryo buhwanye n'iki cyapa.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho cya Airtel, barimo kugenda bamamaza serivisi zigiye zitandukanye ziganjemo, mu kazi kose aho batanga naho umubare ushobora gukanda kugira ngo iyo serivisi barimo kwamamaza uyibone.

Mu mujyi rwagati hakaba hariho akazu, karimo umukozi ukorera ikigo gishinzwe itumanaho mu Rwanda Airtel, hakaba hariho kandi abantu barimo kugenda bacuruza imineke ndetse abandi bakaba bari gucuruza ibindi bigiye bitandukanye.

Mu muhanda rwagati hakaba ari abantu barimo kugana mu byerekezo bigiyebitandukanye, hariho akazu k'umukozi w'ikigo cy'itumanaho MTN, aha ngaha hakaba haparitse n'amamodoka menshi, bimezenk'aho ari muri gare.

Abagabo babiri biganjemo abakora mu kigo k'itumanaho kimuyoboro wa Airtel bakaba bafite umuntu barimo kugenda bahereza igihembo yatsindiye, kikaba ari telefone nini barimo kugenda bamuhereza.

Ahantu hari agakoresho cyangwa se inyubako ntoya, ikaba ikorerwamo n'umuntu ukorera ikigo cy'itumanaho cy'umuyoboro wa Airtel, ahangaha baguha amayinite cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuntu ukora ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko akaba afite ibiribwa arimo kugenda anyanyagiza aho inkoko ziba, ari na ko agenda azihereza kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, uyu nguyu ni umworozi w'ikitegererezo.

Umugabo wo ukora mu nzego z'umutekano we akaba yambaye impuzankano yifashisha mu gukora umutekano y'icyatsi, uyu nhguyu bamwita daso, akaba ari kumwe n'undi mumama ufite impamyabushobozi barimo kugenda bayerekana.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abayobozi bicaye ahantu hatatse neza, bakaba barimo kugenda batega amatwi bose bambaye imipira ijyanye n'iki gikorwa barimo, barimo kugenda baganirizwa ndetse na bo bakamenya ubutumwa.

Umuntu uhagaze imbere, arimo kugenda asobanura ibyo akora. Imbere ye hari abantu bamuteze amatwi benshi cyane barimo, arimo kugenda bamurangamira kugira ngo agende abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye, nk'uko bateranye aricyo kibateranyirije hano.

Abakaraningufu bakaba barimo kugenda bapakira imifuka, barimo kugenda bayikura mu modoka, bayijyana ahantu hagiye hatandukanye abangaba babigize umwuga barimo kuyigenda bikoreye imifuka babijyanira abacuruzi.

Umugabo urimo kugenda atanga ubutumwa ndetse aha ngaha hari umunyamakuru urimo kugenda amubaza ibibazo bijye bitandukanye ndetse na we akagenda asubiza, hakurya hakaba hari ahantu hubatse harimo imbaho.

Aha hateraniye abantu benshi bakaba ari abahinzi cyangwa se abacuruzi bazanye umusaruro wabo, hakaba ariho ibikese binini barimo kugenda bashyiramo umusaruro wabo, wiganjemo imiteja cyangwa se imboga bagishaka kujyana ahantu hatandukanye.

Ahantu mu giturage hakaba hakoraniye imbaga y'abantu benshi barimo kugenda baganira, higanjemo abakuze ndetse abagore n'abagabo imbere yabo, harimo abarimo kugenda babaganiriza barimo kugenda bavugana.

Ahantu hari isoko hakaba imvura yaguye nyinshi hakaba bamwe biyoroshe imitaka, ndetse akaba ari isoko risakaje amabati y'ubururu hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye umuntu ashobora kugura bitewe n'ibyo akeneye.

Abahinzi bahinga ibijyanye n'imbuto ahangaha hakaba hari amatunda bagiye bahinga mu buryo bugezweho, uyu umuntu yagiye azirika amazinga aho ndetse aya matunda akagenda arandaranda agendeye kuri izi nsinga.

Mu mugi rwagati hakaba hariho ibyapa bigiye bitandukanye, bigenda bisobanura ibyo abantu batuye hano bakora, ahenshi hari utubari hakaba hari inzoga zitangwa muri utu tubari cyangwa se mu mahoteli.

Mu kabari cyangwa se mu gahoteli hakaba harimo abantu barimo gusaba icyo kunywa, hakaba harimo ameza atandukanye, aho umuntu yicara mu gihe yaje gufata icyo kunywa, hakaba harimo kandi n'abantu babishinzwe, bagenda batanga ibyo kunywa.

Ahantu hari inyubako ikaba imbere yaho hariho ameza akikijwe n'intebe zigiye zitandukanye, ahangaha hakaba ari ku kabari aho ushobora kuba wagurira icyo kunywa cyangwa se ibyo kurya.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ibikorerwa muri Demi, hakaba ari hoteli hakaba ariho ibyo bakora, hakaba hariho amahema ushobora kujya kwicaramo, hakaba ari ibyo kunywa ,inzoga ibyo kurya ndetse bakaba banategura ibyo kurya.

Mu kabari hakaba hari amacupa agiye atandukanye ndetse kandi hakamo n'ibirahuri bagiye basukamo, hakaba ariho abantu bari kwica inyota kugira ngo babashe kumera neza ndetse kandi bamanura ivumbi, bakaba biganjemowo abasore ndetse n'abakobwa.

Ahantu ari amaduka agiye atandukanye, aho ushobora kujya kurangurira ibicuruzwa bigiye bitandukanye cyangwa se ushaka kugura bike bike, hino hakaba hariho moto iparitse itegereje kubona umugenzi, hanyuma bakamutwara.

Umuntu uri mu iduka, akaba acuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, ahangaha harimo ibyinshi bikoreshwa mu ikoranabuhanga, uyu nguyu akaba yicaye ategereje abakiriya kugira ngo abashe kubaha ibyo bakeneye.

Abantu bacururiza umuti w'amenyo, aha ngaha hakaba hari uburoso bwifashishwa mu gihe umuntu arimo gukora isuku yo mu kanwa, aha ngaha akaba buri mu mabara agiye atandukanye.

Aho bacururiza hakaba hariho akadobo karimo amacapati ndetse kandi munsi yako harimo akabati abashe gushyiramo ibyo gucuruza kugira ngo abashe kubigeza ku bakiriya buri wese bitewe n'ibyo akeneye ku giciro gisanzwe.

Mu isoko rwagati rikaba ryiganjemo iricuruza imbuto, ku'ikubitiro hariho avoka, imineke imyembe, hakaba hariho kandi ibinyomoro hakabaho indimu, amaronji ndetse n'ibindi byinshi birahangaha.

Iduka aho bacururiza amagaze yifashishwa mu guteka mu rwego rwo kwirinda kwangiza ibidukikije, aho gaze ariyo ifasha mu kurwanya kohereza imyotsi myinshi mu kirere.

Umugore ubyibushye cyane, akaba ari mu iduka ricuruza amagi, imbuto, hakaba harimo n'ibindi bintu byinshi cyane, cyane cyane ibikomoka ku matungo, hakaba harimo n'inzoga ndetse n'ibindi byinshi ushobora guhaha igihe ugeze muri iri duka.

Ibikoresho bigiya bitandukanye ushobora gusanga mu mabutike mu gihe ugiye kubigura. byiganjemo ibikoresho by'isuku umuntu yifashisha mu gihe agiye mu bwiherero, nyuma yo kuba abisoje.

Igikoresho babasha gushyiramo ibicuruzwa cyangwa se icyayi, kigatuma kidakonja, iyingiyi bayita terimusi. Ku ruhande hakaba hari akadobo karimo ibyo umuntu ashobora gufatisha icyayi, ahangaha kandi akaba ari muri resitora aho ushobora gufatira ibyo kurya.

Abantu bagera kuri bane harimo umusaza ndetse n'abandi bantu bagera kuri batatu, harimo umukobwa umwe n'abagabo babiri baje kwigurira imyenda igiye itandukanye yiganjemo ibitenge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu hari ibikoresho babigiye bitandukanye biri kugurishwa, higanjemo ibikoresho by'imitako ndetse n'ibindi byinshi cyane bikozwe mu buryo bw'ubugeni, aho umuntu ashaka kubigura, akabikoresha mu buryo buryo butandukanye.

Ahantu hari butike bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo ibya elegitoronike hakaba hariho abantu baje kugenda bagura ndetse amaduka yose arafunguye, ku buryo umuntu abasha kwinjira akagura icyo akeneye.

Umugore ufite indangururamajwi akaba ahagaze mu bantu rwagati arimo kugenda abagezaho ubutumwa bugiye butandukanye, inyuma kandi hakaba hariho abandi barimo kugenda bamwumva batega amatwi ibyo arimo kuvuga.

Abantu benshi bambaye amakanzu y'imyeru, harimo uwambaye ikanzu y'umukara, akaba afite icyuma arimo kugenda akubita hasi, gikozwe mu buryo bw'ipiki, hanyuma akaba ari abasilamu.

Muri kiliziya aho hari abantu bitabiriye bakaba barimo gusenga, imbere hakaba hamanitse umusaraba, hakurya hakaba ariho amashusho agiye atandukanye, aya yezu ndetse kandi hakaba hariho n'abahereza.

Urubyiruko ruri kumwe kandi n'abagabo babiri, bakaba babasize hagati barimo kugenda bafata agafoto k'u rwibutso ndetse umwe muri bo afite igitabo barimo kugenda bagaragaza ndetse abangaba barimo gufata agafoto.

Umupasiteri akaba ari kumwe n'umuzungu, ndetse kandi inyuma hakaba hariho abandi bantu bagiye batandukanye. Akaba ari muri bwa buryo baza gufasha abantu batishoboye, muri bwa buryo bwa kompasiyo, bakaba bari kumwe nabo baje kureba.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abakobwa, abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye ahantu hatwikiriye neza muri bwa buryo bugezweho bwifashishwa mu gihe habayeho ibirori, bakaba bari mu nama barimo kuganirizwa.

Inyubako ndende yubatse mu buryo bw'amahoteli, hakaba ikikijwe n'igipangu ndetse kandi hakaba hateye ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye, zifashishwa mu gutuma abantu banyurwa na serivisi.

Agahoteli kakaba karimo aho abantu bicara, hakaba arimo imitako igiye itandukanye, higanjemo amatara, hakaba harimo indabo nyinshi cyane, hakaba hariho aho umuntu ashobora gutumira icyo kunywa ndetse no kwisanzura mu gihe ari kwidagadura.

Amazu yubatse neza hakaba hari muri bwa buryo bwa kera, hakaba hariho ahantu hagera kuri hatatu ho kwinjirira, hangaha hakaba ari muri hoteli, aho ushobora kujya gusaba serivisi zigiye zitandukanye, haba gusababa icyo kunywa cyangwa se kuhacumbika.

Uburiri busashe neza hakaba hariho imisego ndetse yose n'iy'umweru, aha ngaha jhakaba ari muri hoteli aho umuntu ashobora kuza gucumbika mu gihe ashaka kuruhuka cyangwa se mu gihe afite ibyo arimo kuhakorera.

Inyubako igeretse kabiri hakaba hariho aho umuntu ashobora kuririra, hakaba hariho utuntu umuntu agenda afasheho mu gihe ari kugenda ku masikariye, hakaba kandi hameze nk'ahakorera ibijyanye n'amahoteli cyangwa se ubukerarugendo.

Ahantu hari ubwiherero, hakaba hari aho umuntu ashobora kwicara akituma ndetse hakaba hariho n'aho umuntu ashobora gukarabira mu gihe asoje mu rwego rwo kwimakaza isuku.

Ahantu muri hoteli, hakaba hariho ibikoresho bigiye bitandukanye, hari televiziyo, utubati, umuntu ashobora kubikamo udukoresho twe mu gihe ari kuba muri iyi hoteli, hakaba hariho n'amatara agiye atandukanye.

Ibyumba bya bindi bigezweho cyangwa se mu mazu mberabyombi aboneka mu mahoteli, hakaba hariho umugabo intore cyane akaba arimo kubyina, yitakuma ndetse kandi ku ruhande hakaba ariho intebe zicarwamo n'abantu baba bari kureba ibijya mbere.

Mu maresitora cyangwa se mu kabari gusa na none ashobora kuba ari muri hoteri, aho hari ibyo kunywa biri mu turahuri twiza ndetse kandi hakaba hariho n'ibiryo bigiye biteguye neza, nk'uko mu mahoteri bafite serivisi z'umwihariko.

Icyumba kimeze nka bya bindi biba mu mahoteli aho hariho inzitiramibu, hejuru hakurya hakaba hariho televiziyo umuntu ashobora kureba mu gihe aryamye muri iki cyumba, kikaba gisashe neza bya bindi bikunze kuboneka mu mahoteli aho umuntu abasha gucumbika.

Agahoteli kakaba karimo aho umuntu ashobora kwicara mu gihe arimo kuganira n'inshuti ye akaba ariho kandi aho umuntu ashobora kogera, aho ngaho ni muri picine aho ushobora kujyamo mu gihe ushaka kuruhura mu mutwe.

Mu isoko hakaba hari ababyeyi barimo kugenda bacuruza inyanya ndetse hakaba hari n'abantu bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bazanye kugira ngo babashe guhahiramo.

Umugore uhagaze akaba arimo kugenda yitegereza imboga ziri imbere ye, ziganjemo imboga z'amashu akaba ari umuhinzi cyangwa se akaba ari umucuruzi kuko afite agahago, akaba ari kakandi batwaramo amafaranga.

Mu mujyi rwagati hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu, higanjemo amamoto, hakaba harimo amagare, hakabamo imodoka, ni abantu benshi barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye bajya guhaha.

Abagore bagera kuri batatu hakaba hariho n'umugabo wambaye agapfukamunwa, umugore umwe akaba yambaye uturindantoki kugira ngo bataza gukwirakwiza indwara, aha ngaha bakaba barimo kugenda baganira, hakurya yabo hakaba haparitse imodoka.

Ahantu hari iduka ririho ibikoresho by'isuku byiganjemo imyeyo yifashishwa mu gukubura imbuga, cyangwa se n'ahandi hantu hari umukungugu, aho umuntu aza akagura ibyo akeneye.

Umugabo urimo kugenda mu nzira inyuma ye hakaba isoko ririmo imyaka igiye itandukanye, arimo kugenda yikora ku gikapu afite inyuma, kandi hariho amahema abiri atandukanye, harimo abantu barimo kugenda bahaha.

Ahantu hari hoteri aho ushobora kujya kuhafatira icyo kurya cyangwa se icyo kunywa, ukaba ushobora kuharuhukira mu gihe runaka igihe urimo kuhanyura cyangwa se igihe ufite ibyo urimo gukurikirana mu gihe runaka.

Inzu nini cyane yubatse ahantu bimeze nkaho ari hotel, inyubako ndende ishobora kuba yakwakira abantu benshi cyane niyo baba bagera kuri mirongo itanu babona aho barara ndetse ikanacumbikira.

Abamotari barimo kugenda mu mugi, aha ngaha bari kunyura ni muri kaburimbo, inyuma yabo hariho imodoka ije ibakurikiye, barimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye kugira ngo babashe gutwara abagenzi na bo babone amafaranga.

Imoto irimo guca ahantu mu muhanda ikaba iri kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye ndetse ahantu ageze muri aka kanya ni ahantu hari aho abanyamaguru bambukira.

Umugabo uhetse ibitoki arimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, uyu nguyu akora akazi ko gutwara imizigo, ayijyanira abaturage cyangwa se abacuruzi bamuhaye akazi.

Abantu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu, bakaba bari kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye bakoresheje ibinyabiziga byabo, aha ngaha hakaba ari muri twa duhanda tuba turi ahantu mu mijyi, aho bari kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye kugirango babone abagenzi.

Umuhanda rwagati hakaba harimo umuntu ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, akaba ahetse umumama bose bakaba bambaye ingofero, zibarinda kuba bakomereka mu gihe bahuye n'impanuka, bakaba barenze aho abantu bashobora kwambukira.

Mu muhanda hakaba hari umumotari uhetse umugenzi, arimo kugenda agana mu byerekezo bigiye bitandukanye, atanga serivisi zo gutwara abantu n'ibintu, babajyanamo bice bigiye bitandukanye bitewe n'aho bashaka kujya.

Umunyonzi afite ibitoki yagiye azirikira ku igare, arimo kugenda abijyana mu duce tugiye dutandukanye, hakurya hari imodoka ndetse ahantu ari kunyura, ni kuri ya mihanda ya kaburimbo.